Umugabo ari gufumbira umuceri. Umuceri kugira ngo udusimba tutazawurya. Umuceri ni mwiza, abantu barawukunda cyane.

Gufuhira imyaka, umugore uri gufura imyaka ahetse ipombo, ipombo y'umuhondo. Gufuhira imyaka ni byiza bituma ibihingwa byera neza.

Abantu benshi bivanzemo n'abayobozi, bisa'naho basuye abaturage mu kureba imyaka uko byifashye, guhinga ni byiza, bifasha abantu muri rusange.

Ni umugabo uri ku mazi, bisa n'aho yatereye indobani mu mazi, ategereje ko hari icyo yafata mu mazi akajya guteka.

Umugabo warunze imyanda ahantu, bisa n'aho ari kazi, ni umugabo wambaye ishati y'ubururu, yambaye na bote.

Umugabo uri gufumbira imyaka, ahetse ipombo, ari gufuhira, ari gufuhira ibirayi, ibirayi ni byiza. Gufumbira ni byiza cyane, bituma imyaka yera neza.

Umugabo uri gufuhira amashu, yambaye bote ahetse ipombo yambaye ingofero y'umukara, afite imboga nziza cyane, ziraryoha.

Abantu babiri bambaye imyenda z'mikara bari mu bigori bafite imvaruganda, bisa naho bari gufumbira invaruganda ku bigori.

Ni ibiryo cyangwa se inyama n'urusenda, ni inyanya n'ibitunguru biri mu isahani ni byiza cyane cyane.

Icyuzi kinini kigali bisa nkaho cyagenewe kororerwamo amafi, hepfo hariho ikindi cyuzi kitari cyageramo amazi, hirya hari ibiti birebire.

Ubwato burimo abantu babiri: umwe wambaye umupira wumukara, undi wambaye ishati y'umweru. Ubwato ni bwiza, buradufasha ubuhahirane no mu kubona ibi....

Ni ibiryo byiza cyane, birimo indagara n'imboga, n'utundi twinshi, tugiye dutandukanye kandi duteye icyanga, tunaryoshye cyane.

Indagara zumutse neza cyane, indagara ziryoshye indagara zisa n'umukara n'ibara riteye ifemba, indagara ni nziza indagara bazishyira mu biryo bakaranze biraryoha cyane.

Ifi nziza itetse neza cyane isa nkaho iteye ifemba. Ifi iraryoha kandi igira umumaro ku baziroba n'abazirya. Ifi ni nziza cyane.

Ikiyaga ,ubwato, abantu, ubwato ni bwiza budufasha kwambukanya ibintu tubijyana ku mwaro tuijyana ku wundi, ubwato ni bwiza budufasha mu burobyi bwa buri munsi.

Abagabo batwaye ubwato niabagabo batari bake, babiri batwaye ubwato n'abandi bari hakujya kumwamba, ubwato ni bwiza cyane tubwifashisha mu burobyi cyagwa se kwambutsa ibintu runaka.

Ni ifi bari kumenaho umunyu, bisa naho bagiye kuyiteka, ifi ni nziza iraryoha. Ifi abantu benshi cyane barayikunda, iraryoha.

Isoko ririmo amafi menshi, amafi ni meza cyane agira intungamubiri, hari benshi agaburira, amafi ni meza cyane.

Umurima ni mwiza mu murima uhinze hirya yaho hariho igiti cya voka, hejuru ari unsinga hirya hariho ikibara gisa naho cyumye.

Ibirayi biteye mu kibaya birarunduriye mu bigaragara babibagariye, hakurya hateye hariho amazu menshi meza kandi meza cyane.

Ni ikibara kirimo ibiti, kenshi bakunda kubyita ibibonobono. Ibibonobono, byakura bigashingirizwa cyangwa se bikazitizwa ahantu runaka.

Inzu iri hirya hino yaho hari ibishushu ibishushu birimo n'ikidodoki, ibidodoki byavamo imboga wakenye wadutogosa ,wabiteka igihe wabuze indisho.

Insina iteye, iriho n'amateke n'ubwatsi, ibyatsi ni byiza, insina nziza, ibyatsi birera tukabiha inka, inka zikabyara, zigakamwa amata, tukayanywa.

Igishyimbo kiri kumera, iyo kimeze kirakura kikabyara ibishyimbo byinshi, wagiha ifumbire kigashisha cyane bakagishingirira kikera bakagisarura.

Ibi ni ibyatsi ibyatsi ni byiza cyane, barabigabura bakabiha inka. Inka zikagira amata zikavamo n'inyama zo kurya.

Ibuye rinini riri mu butaka ,ku ruhande hariho ibyatsi. Hakurya hari igiti kinini cy'inganzamarumbu. Hakurya y'aho hari abantu bikoreye ibidomora by'amazi.

Ni ikibara, ikibara kirimo ibyatsi n'ibigori bya byeze kera ibyasigaye bikumira mu murima. Ikibara ni kiza kirimo ibiti kirimo igiti kinini kandi ikibara cyavamo imyaka tukeza bose bagasarura.

Igiti cya shipuri, ndetse n'umusave biteye ahantu mu ishyamba. Ni ibiti byiza ni ibidukikije bidufitiye umumaro, ku byerekeye umwuka.

Amashaza ari mu kibara, bisa naho yabuze uwayabagarira kuko yararaye cyane ,amashaza ni meza kandi araryoha.

Ikibara, ikibara kiri ahantu harambuye, hirya hari ibiti birebire. Ni ikibara cy'imitabo myinshi, bisa nkaho bagihinzemo, barasarura.

Amazi meza cyane ibyatsi byiza cyane n'igiti cyiza bakunda kwita igiko. Iki giti ni igiti cyiza kirinda gikora igicucu ahantu runaka.

Ikibara kinini cyane gisa nk'aho kidahinze. Ibibara ni byiza cyane ku baturage kuko ibibara babihingamo imyaka, imyaka noneho igakura tukayisarura.

Ibirayi byabuze imvaruganda mubigaragara ntabwo bishishe, ibirayi ni byiza cyane, nyirabyo azakuramo amafaranga menshi, mu bigaragara uyu mushinga urunguka.

Ibitunguru biri ku mufuka, bisa nkaho bari kubicuruza hasi hariho umufuka, bifunze mu mifungo y'ijana cyangwa se ya magana abiri.

Ibijumba n'ibyiza cyane, abantu barabikunda cyane bo mu cyaro, bigiraga birahaza bigira intunga mubiri ku bantu bose, n'ababihinga bibagirira umumaro bakabona amafaranga bijyanye ku isoko.

Ibitunguru bisa n'aho ari bishyashya bigiye guterwa, ibitunguru ni byiza, bigira umumaro kandi biranahumuza.

Ni voka ziri mudutete bisa n'aho zigiye ku isoko, voka ni nziza cyane voka zigira intungamubiri kandi abantu barazikunda cyane.

Umukecuru ufite isuka, yipfutse igitambaro cy'umweru, yambaye ishapure iriho umusaraba, bisa n'aho ari mu kazi.

Umubyeyi uri gusarura ingano. Ingano ni nziza cyane, zigira intungamubiri cyane cyane no kubantu rusange nibyiza cyane.

Abantu batatu bari kwaha icyayi. Icyayi ni cyiza, kizana amafaranga, icyayi kivamo ikawa bikatugirira umumaro ku banyarwanda twese.

Aba ni abantu benshi bari gusarura, bisa naho bejeje inyanya bari kuzisarura, ni abantu batanu abagore bane n'umugabo umwe, bari gusarura inyanya ni byiza cyane inyanya ni nziza.

Iyi ni inyoni nini cyano ifite amababa y'umutuku, ikagira n'amabaga y'umweru, ikagira n'amababa y'umukara. Ni inyoni nini cyane, hirya hari ibyatsi by'icyatsi, hirya hari amatafari, iyi nyoni ni nziza cyane, bisa naho iribwa.

Ibirayi byinshi cyane, kandi ibirayi biraryoha. Ibirayi bisa n'aho biri ahantu mu iduka, aho babicururiza.

Imiteja, hirya hariho puwavuro, hirya hariho imboga, imiteja ni ibintu by'ibishyimbo biba bitarera neza bikiri bitoto, nibyo bita imiteja.

Iyi ni imifuka irimo ibirayi n'umuntu ubi ubicunze. Ibirayi ni byiza cyane biratugaburira bigira n'intungamubiri nyinshi cyane.

Ururabyo ruri hasi ruteye hasi, iruhande rwarwo hariho borodire ifite amabara y'umweru n'umukara, izi ndabyo ni nziza, abakire bafite amafaranga bakunda kuzitera muri jaride zabo kandi ziba zikeye cyane.

Igihaza gifite umukondo, ni igihaza gisa umukara. Igihaza kinini pe! Igihaza kiraryoha. Igihaza kigira vitamine. Igihaza kiri mu mboga . Ku bantu babihinga birabungura kuko babijyana ku isoko bakabonamo amafaranga.

Ubunyobwa burunze ku ihema ry'ubururu, hariho umugore bisa naho arikuburobanura. Ubunyobwa ni bwiza cyane, kandi ubunyobwa buraryo.

Intonore ni nziza cyane kuko intonore ni imboga z'ibishyimbo ziba zitari zera, intonore hejuru hariho igikarito.

Ipapayi iri mu giti. Ipapayi ni nyinshi zareze cyane ziracucitse. Mbese zirafumbiye ku buryo bukwiriye.

Ni umumama umeze nk'umuveterineri, wambaye igikoti cy'ubururu, uri guseka, bisa naho yagiye mu bishyimbo bigufuya, bisa n'aho ari gukora, ibi ni byiza cyane.

Abantu bari gupakira imizigo harimo ibitoki, hari abagabo babiri uri kubimuhereza n'uri kubipakira, n'umukobwa ibitoki ni byiza cyane bivamo inzoga baranabirya.

Iki ni ikijumba kiryoha cyane n'ikijumba cya kubyarira inyungu ku bantu bagihinga.

Ipera ni ryiza cyane, ipera riraryoha cyane rigira n' intungamubiri ku mubiri, rikagira n'umumaro ku barihinze rijyanwa ku isoko rikavamo amafaranga.

Umwembe ni mwiza cyane, umwembe uraryoha. Umwembe ugira intungamubiri , ni umwembe uri mu giti ufitegu usa n'icyatsi gusa iyo weze urahinduka, uraryoha cyane ku bantu bawuhinga ubagirira umumaro ubaha amafaranga.

Hano abantu bari guhinga mu matarasi. Amatarasi ni meza cyane, atuma abantu hadacika inkangu ku misozi. Aba bantu bari guhinga ahantu .

Mu isoko ahantu hariho ibiribwa byinshi: inyanya, amaronji, puwavuro,n' ibitunguru n'ibindi byinshi. Isoko ni ryiza rifashaga abantu muri rusange.

Abagore babiri bafite amasuka, bisa nkaho bagiye mu murima guhinga, guhinga ni byiza cyane bituma abantu benshi bo mu mujyi barya kandi badahinga.

Ni udukwavu tumwe dufite amatwi maremare, turi ahantu nyine mu bishwagari tw'umweru cyane, udukwavu ni twiza turaryoha kandi tuvamo n'amafaranga twagufasha kwiteza imbere.

Ibijumba ibijumba ni byiza cyane biraryohaha, ibijumba wabihinze byakugirira umumaro kandi byatuma ubona amafaranga. Ibijumba ni byiza ku bantu bose ndetse no ku bandi babihinga.

Umugabo uri gusarura yambaye igikoti cy'umuhondo, ahetse igitebo ari gusarura icyayi. Icyayi ni cyiza kiraryoherera cyane. Icyayi kivamo amafaranga ku bagihinga.

Ibijumba byeze bisa nk'aho ibijumba byapfuye, byakuze bikagugura cyane. Hariho umumama wambaye agapira k'ubururu ufashe ibijumba ari kubyerekana.

Umumama uri kubagarira cyagwa se uri kugenzura mu murima we w'ibirayi , ibirayi ni byiza cyane biradufasha mu buzima bwa buri munsi.

Ni umumama uri mu bigori bisa n'aho ari kubikorera kugirango bizakure neza, ibigori bitari byera neza bikiri bitoto, ntabwo birakura ngo bishingure bimareyo.

Ni umugabo bisa n'aho ari gufumbira indabo, cyangwa se indi myaka. Ni umugabo ufite kuraje yo gukora, umugabo ufite gahunda yo kwiteza imbere, uko bigaragara afite gahunda yo gukora.

Mu ishyamba ririmo imbuto. Imbuto nyinshi cyane kandi zeze. Imbuto ni nziza, zigira umumaro ku bantu bose, kandi turazikunda ni n'umusaruro, zivamo amafaranga.

Ibijumba biri mu ibase, ibijumba binini cyane. Ibijumba ni byiza cyane bitera imbaraga kandi ibijumba biraryoha cyane.

Imyembe ni myiza, mu isoko harimo imyembe, inanasi n'abantu. Imyembe ni myiza, igira vitamini ku bantu bose.

Bimwe mu bihingwa bizwi nk'imbuto ari byo ibi : amaronji, tangawizi, n'amacunga, n'ibitunguru bigaragara ko biri gucuruzwa.

Voka iri mu giti, igiti gisa naho cyavuyeho amababi; voka ni nziza cyane kubazihinga zirabungukira natwe twese zitugirira umumaro zigira vitamin.

Umugabo uri guhinga hino yaho ari kureba umusaruro wavuyemo, hino yawo ari kureba impungure zavuyemo hirya yaho bisa nkaho impungure ziri kunyuzwa mu ruganda.

Ibijumba binini cyane. Bisa umutuku, mu nda bisa umuhondo. Bigira vitamini ku bana. Bigira vitamini ku bantu bose. Ni byiza cyane. Biraryoha.

Ni abantu benshi cyane, bisa nkaho bari kugaragaza ibihingwa byabo, umusaruro basaruye mu byo bari barahinze.

Ibi abagore bari guca imboga mu bigaragara bambaye n'udupfukamunwa n'ibitenge byiza cyane.

Inka nini cyane ziri mu mabara atandukanye, harimo inka iri mu ibara ry'u ry'umukara, hari n'indi bara, n'indi nka iri mu ibara ry'igitaka cyangwa se igitaka, ziri mu bwatsi bwinshi cyane.

Aya ni amajeri, amajeri agira intungamubiri agira na vitamini. Aya majeri ni meza cyane cyane ku bana kuko agira vitamini.

Ibisheke ni byiza. Ibisheke by'imituku ni umuti, ibisheke ni byiza bivamo n'isukari, ni ibisheke by'umutuku bivamo isukari.

Abantu bisa naho ari abayobozi bagiye gusura abaturage mu mirima yabo, bareba uko bahinga imyaka yabo.

Depo bisa naho ikoramo ibiribwa, depo ni nziza zorohereza abantu muri rusange mu kurangura, bakabonera ibintu kuri make.

Aya n'amavoka, amavoka ni meza cyane araryoha, kandi agira intungamubiri ku bantu bose .ay'amavoka bisa nk'aho ategerejwe kujyanwa ku isoko.

Avoka ni nziza iraryoha cyane kandi ni voka y'umukara ifite ikibuto. Avoka ni nziza cyane ku bantu bazihinga zibungura amafaranga.

Amateke ari gucuruzwa ateretse ku muhanda mu bisahani binini cyane bisa naho ari ku isoko ku muhanda.

Pwavuro ni nziza cyane. Baraziteka bakazifashisha cyane cyane iyo bari gukaranga. Ni pwavuro zitukuye zisa n'aho zeze cyane. Zifite inkondo itaratukuye.

Umwana uri impande yaho bacururiza utuntu tw'uduconsho, hariho n'inkoko hariho n'amaronji. Amaronji ni meza turayakunda agira intungamubiri kubantu bose.

voka, voka z'icyatsi ni nziza cyane; voka nziza bisa n'aho ziri mu ruganda bisa n'aho zitegereje gukoreshwa ikintu runaka kandi ni nziza zigira intungamubiri.

Amasaka ni meza cyane, amasaka ari mu murima, amasaka arahinze yenda kwera ni amasaka meza. Amasaka ni meza ku bantu bose avamo igikoma kandi avamo n'inzoga n'ibindi byinshi.

Umumama ufite ibishyimbo mu gitebo, afite n'umwana nawe yiteze agatambaro, ari ahantu mu bigori, ibishyimbo ni byiza cyane.

Ni ibihingwa byiza abantu benshi bakunda kwita ingano. Ingano ni igihingwa gikunzwe n'abatari bake, kandi ingano zigira intungamubiri ku mubiri.

Imifuka irimo ibigori ni ebyiri, ibigori ni byiza cyane bivamo igikoma, bivamo n'ibindi byinshi, ibigori ni byiza cyane ku bantu benshi.

Umuceri ni mwiza cyane, bimwe mu bihingwa bikundwa n'abantu benshi cyane kubera kuwuteka kwawo ushya vuba, umuceri uhinze ahantu mu kibaya.

Ni amasaka ari kumwe n'ibibabi bitoshye by' icyatsi cyane kuko ikirere gitoshye. Amasaka ni meza cyane avamo havamo ifu cyangwa se inzoga.

Umuceri ni mwiza cyane ni kimwe mu binyampeke abantu bakunda cyane, kandi abantu bakunda gubaha cyane bitewe n'uburyo usha vuba kandi ukagura make umuceri.

Aya ni amajeri ari mu murima. Aya majeri ni meza cyane. Agira intungamubiri. Barayatsimba.

Ibigori byeze cyane cyangwa se bisa naho babisaruye, ku ruhande hariho umuyoboro w'amazi umanutse cyane. Imiyoboro ni myiza kuko idufasha kudatera isuri.

Imifuka myinshi y'imiceri, isa n'aho ari ho barangurira imiceri. Umuceri ni mwiza urakundwa n'abasilamu kenshi.

Ibishyimbo ni byiza, ibishimbo biri m'umufuka bisa naho ari byinshi bishoboka, ibishyimbo ni byiza bigira intungamubiri kubantu bose.

Ni ibigori byiza by'amabara menshi agiye atandukanyekanya harimo amabara ntarondora. Ni ibigori byiza biri mu gatebo byiza cyane. Ibigori ni byiza, bivamo imbuto, bikavamo n'ifu.

Ibigori byinshi cyane, bisa nkaho ari umusaruro w'umudugudu wose, bisa naho ari ikusanyirizo ry'ibintu .Ibigori ni byiza cyane ,kandi bivamo ibiribwa kandi bikavamo n'ifu ya.

Umugabo n'umugore bari kumanika ibigori bisa naho bari kubihunika, ibigori ni byiza bigira intungamubiri bivamo igikoma, bivamo umutsima, bivamo kawunga ibigori ni byiza.

Soya iteye mu murima, soya ni nziza ifasha abantu kuvamo ifu, ivamo n'umutsima ufite icyanga uryoshye cyane.

Ibigori bipakiye mu mufuka, mu mifuka ibiri. Ibigori byiza cyane biri kugaragara neza, ni byiza cyane, kandi ibigori bigira intungamubiri kubintu. Ku bantu n'ibintu.

Ikigori ni cyiza cyane, ikigori iyo gihiye kiraryoha, ikigori kigira intungamubiri, kandi ikigori ku bantu bagihinga kirabungura, kuko baragihinga bakakijyana mu isogo kikabaha amafaranga.

Abazungu, harimo n'umwirabura, bambaye udupfukamunwa, hasi hariho ingagi. Bisa nk'aho bari kuyivura. Ubuvuzi, kwita ku nyamaswa ni byiza cyane.

Ingurube ebyiri ziryamye ahantu, bisa nk'aho izo ngurube zifite amabara menshi, kandi ingurube zirabyibushye cyane, ingurube ni nziza cyane ziraryoha.

Inka n'umuntu ufite, wambaye ishati y'ubururu, bisa n'aho agiye gutera inka umuti. Vitamini. Ni inka nziza, ifite amahembe asongoye.

Ingurube isa neza ifite ubwoya burambuye hirya yabo yayo hariho umushumba wayo, bisa naho ari kuyireba arebe ukuntu isa neza. Ingurube ni nziza zivamo inyama n'ibindi.

Ingurube nini ifite ibyana byayo byinshi, ingurube ni nziza itanga inyama, ikanagurishwa ku bantu bazorora.

Intama bisa nkaho ziri kurisha indi iri kureba inyuma, izi ntama ni nziza cyane zifite uruhu runini kandi ziri kurisha , intama ni nziza ziduha amafaranga n'inyama.

Inkoko nyinshi cyane: Inkoko nziza zitera amagi, bakayagurisha, abazoroye zikabungura.

Ingurube iri mu kiraro, ni nziza cyane.

Inka ni nziza cyane, inka ni inka ziri kurisha imwe isa umukara n'umweru, inka ziduha amata, ziduha inyama, ziduha n'amafaranga, riduha ifumbire rigafumbira imyaka.

Amahene, ihene z'umukara n'umweru, ihene zigira inyama， ihene zijya ku isoko zikavamo amafaranga，inyama zazo ku irayidi barazikunda.

Umugabo uri muri busheri wambaye imyenda y'akazi bisa nkaho nawe akora muri busheri, yambaye ingofero yumweru. Busheri ni nziza, zidufasha kubona inyama zisukuye kandi zikingiwe.

Ingurube ni ubworozi bwiza kandi bubyara inyungu. Ingurube zituviramo inyama, zituviramo amafaranga, n'ibindi byinshi cyane.

Iyi ni ifamu irimo inka nyinshi cyane. Iz'umweru n'iz'umukara, n'izurujuju hariho n'abashumba bazo inka ni nziza zituma tubona mafaranga.

Inkwavu ni nziza cyane, ni inkwavu zifite amatwi maremare harimo niz'umukara bisa nk'aho zubakiwe hanze, inkwavu ni nziza cyane zivamo inyama.

Ingurube ziri mukraro ikiraro, aba veterineri bisa naho bari kuzireba ,barebeko niba zimeze neza cyane.

Ingurube ni inyamaswa yororerwa mu rugo. Abantu bakunda kwifashisha mu bworozi cyangwa se mu gukuramo inyama n'ibindi byinshi, ingurube ni icyororo cyiza.

Inkoko ifite ibirokoroko by'umutuku, ikagira amaguru y'umweru, inkoko ni nziza itera amagi tukayagurisha ayandi tukayarya.

Umuveterineri uri gupima inka, ni umuveterineri wambaye ikanzu y'umweru, ufashe indobo. Ubuveterineri ni bwiza buradufasha, mu korora amatungo yizewe.

Inkende ihetse indi, icyana cyayo, inkende ikunda imineke, inkende iri mu muhanda inyuma iri hakurya hari ishyamba, iri mu muhanda w'umukara ukikijwe n'amapave y'umukara.

Ni igihangara gifite umutwe usa n'uwumye, ujya gusa n'umutuku, hasi gisa n'ubururu, gifite inzara ndende, kandi yahagaze ku rutare. Igihangara ntacyo gitwaye.

Ni inyoni ifite amababa y'umukara, ikagira n'amababa y'umweru. Ifite amababa maremare, isa n'aho iri kuguruka . Iyi nyoni ni nziza cyane.

Inyoni yumukara ifite amaba yumukara, ifite amababara yumweru, ifite amaso y'umukara, ifite n'umunwa wigitaka, ifite inzara zisongoye, amaguru magufiya, iyi nyoni ni nziza cyane.

Ni inyoni iri mu bwoko benshi bakunda kwita inyamanza, inyamanza ni inyoni yitonda itagira amahane, akenshi ikunze kuba mu mazu.

Imbata nziza cyane, ifite amabara, umweru, umukara n'umunwa muremure n'amaso y'umukara. Imbata ni nziza itera amagi tukayarya, nayo ubwayo iraribwa.

Ni igisiga kiri mu kirere gifite amaba y'umukara, gifite n'amababa y'umweru, amaguru arebye inyuma. Inyuma yacyo ari ikirere gisa n'ubururu neza cyane, ni igisiga kiri mu bwoko bw'inyamaswa zikururuka.

Inuma ifite amababa y'umweru n'umukara n'igitaka. Ifite amaso y'umutuku ,umunwa w'umukara . Ni nziza cyane.

Inyoni ziri mu biti ziri mu biguruka, zifite amabara, umweru n'umukara. Ni nziza ziri mubi bidukikije, ni nziza cyane.

Inyamaswa zizwi nk'Isha, zizwiho kwirukanka cyane cyane cyane, zizwiho guhigwa cyane mu isamba, kubera kugaragara neza kwazo ziri mu ishyamba, mbere yaho hariho ibiti.

Inkende, inkende ni nziza abazungu bakunda kuzisura bagiye mu rugendo bakaza kuzireba, inkende ntiziyomba zikunda imineke.

Inyoni iri ku biti, inyoni ifite umunwa muremure wumukara ifite n'amaso y'umukara, ifite n'igisembe cy'umukara.

Ni inyoni ifite amaguru y'umuhondo ifite amababa ajya gusa umutuku n'igisembe cy'umutuku, ihagaze ku duti iri mu biguruka.

Ni inyamaswa iri mu nyamaswa zo mu ishyamba. Izo bakunda kuyita isha. Ifite amahembe maremare. Iyi nyamaswa izwiho kwiruka cyane. Niyo nyamaswa iciriritse mu ishyamba.

Inyoni iri mu bwoko bw'ibiguruka ifite amabara y'umweruru, ikagira umunwa w'umukara n'amabara y'umuhodo. Inyuma yayo hari ibibabi n'ibiti.

Isatura iri mu mazi isa n'aho igiye kwinjira mu mazi, isa n'aho iri mu mazi meza cyane , haruguru y'aho hari ibitaka bisa naho yabirimbaguye.

Ni inyoni ifite amababa maremare, n'inyoni ifite amababa yumukara, ifite n'umunwa ujya gusa umutuku gusa ni inyoni nziza igaragara neza cyane.

Inyoni iri mu biguruka bifite amaguru yumutuku, ifite amababa y'umukara afite n'amaso y'umutuku , inyuma yaho hariho ibiti.

Ingona ni zimwe mu nyamaswa zibera mu mazi, zikunda kuba ziri mu mazi kenshi zizwiho kugira uruhu rwo hejuru rukomeye, ni ingona isa nkaho ijya mu mazi.

Ni inyoni iri mu murima urimo uturabyo tw'umuhondo. Ni inyoni ifite amababa y'umukara na marongorwa. Ifite ibara, ifite umunwa w'umukara. Inyoni ni nziza iri mu bwoko bwi'ibiguruka.